Umwana w'umunyeshuri mutoya, wegereye igikuta k'ishuri gifite ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho undi munyeshuri na we ateye intambwe nk'iyo uwo mwana ari gutera.

Ibitabo byinshi bitandukanye birimo amasomo y'ubwoko bwose, bishobora gufasha abana, haba abo mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza kugira icyo bamenya kizabafasha mu buzima bwabo, bityo bakaziteza imbere.

Igikinisho kiza gikozwe n'ibikoresho bitandukanye bifite amabara arimo: umuhondo, umutuku n'ubururu, byifashishwa mu kwigisha abana udukino dutandukanye kugira ngo bashobore kwisanisha n'abandi.

Igikuta k'ishuri gisize irangi ry'umuhondo gishushanyijeho imfashanyigisho zitandukanye harimo igishushanyo kigaragaza uburyo amaraso atembera mu mubiri, hakaba hariho ikarita y'Igihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba hariho n'igikoresho kifashishwa mu gutanga urumuri.

Ahantu heza hateguwe hari abana babiri bari mu gikorwa cyo kuganira ku mushinga wabo umuhungu n'umukobwa, umushinga wo korora inkwavu ushobora kubafasha mu kwiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo.

Igikuta k'inyubako gisizeho irangi ry'umuhondo iyi nyubako ikaba ishobora gukoreshwa nk'icyumba k'ishuri, gishushanyijeho igiti k'imfashanyigisho zishobora gufasha abana kumva amasomo atandukanye yerekeranye n'ibimera.

Umunyeshuri umwe uhagaze imbere y'abandi afite igitabo mu ntoki ari gusoma inkuru bigaragara ko abandi bicaye bateze amatwi, mu gihe umurezi we ahagaze na we ari gukurikirana icyo gikorwa.

Inyuguti ya J yanditse mu mukono y'inyuguti nkuru ndetse n'intoya yayo, aho zifasha umunyeshuri kunoza umukono, akabasha kwandika neza ibintu bisomeka ndetse bikamufasha no kwiga amasomo ya buri munsi.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, zisize amarangi meza, zubakishijwe amatafari ahiye, zifashishwa mu gutanga uburezi mu bana bakiri bato, aho bikorwa binyuze mu mashuri y'inshuke.

Igikuta cy'inyubako y'ishuri, gifite ibara ry'umuhondo, gishushanyijeho igishushanyo cy'ifi mu ibara ry'umukara, aho iki gishushanyo cyifashishwa mu kwigisha abana, iyo bari kwiga ibice bitandukanye bigize ifi.

Igikuta cy'ishuri gishushanyijeho imfashanyigisho zitandukanye, harimo igisokozo, umwana uri kugenda, ibi rero bifasha abana kwiga kugira ngo babashe kumenya ubuzima busanzwe, babuhuze n'ibyo babona ku ishuri.

Ikicungo cyiza kidagaduriraho abana, aho gihagazeho abana babiri bashaka kwicungaho ndetse n'abandi inyuma yabo bategereje kujyaho, bibafasha kwidagadura, bakabasha kuruhuka mu mutwe ndetse bakabasha no kunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Ahantu heza hatunganyijwe kugira ngo hajye hakorerwa imikino itandukanye cyane cyane ikinwa n'abana kugira ngo barusheho kuruhuka mu mutwe ndetse bakure bishimye bityo bizabafashe gukura neza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igishushanyo cyiza kinini gikozwe mu ibara ry'umuhondo uvanzemo n'umukara kigaragaza inyamaswa y'ingwe ishobora kwifashishwa nk'igikinisho cy'abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bagire ubumenyi buhagije ku nyamaswa.

Ibikinisho byinshi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke, biri mu ishusho y'abantu bafatanye kugira ngo bitange igisobanuro ku bana mu buzima busanzwe.

Ibikoresho bitandukanye bishobora kwifashishwa mu burezi bw'abana b'inshuke aho abana batozwa imikino itandukanye bigatuma bakura mu mutwe, bakagira ibitekerezo byiza ndetse bagashobora kubana n'abandi kuko baba bashobora kwisanisha n'ibyo bari gukora.

Ibyumba by'amashuri byubatse neza bifite ibikuta by'umuhondo bishushanyijeho imfashanyigisho zifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'inshuke ndetse n'ayisumbuye bigatuma bagira ubumenyi buhagije.

Igikapu cyiza gifite ibara ry'umutuku gishushanyijeho ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye harimo ikinyugunyugu ndetse hakaba hashushanyijeho n'indabo gituma umwana ajya kwiga yishimye agataha hari icyo yamenye.

Igikinisho cyiza kiri mu ishusho y'umupira ufite amabara abiri atandukanye ubururu n'umweru, byifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kugira ngo bakine bisanzureneho.

Agakapu keza cyane, gafite amabara y'umuhondo n'umutuku, bivanzemo n'umukara, kari mu ishusho y'igipupe, gashobora gutuma umwana ukiri muto, wiga mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, agakunda, bigatuma na we akunda ishuri.

Umwana mutoya uri gukoresha ubumenyi afite, mu kuvanga amabara, akoresheje amarangi, bityo bimufasha gukura mu mutwe, ashobora kwihangira imirimo ndetse no gutandukanya amabara atandukanye.

Ahantu heza hatunganyijwe, hari inzira nyabagendwa ikikijwe n'indabo zishobora gutuma uhanyuze yishimira iyi nzira kubera ko itunganyijwe, bityo bigatanga umusaruro ku bikorwa byose bishobora kuhabera.

Amakayi menshi y'ubwoko butandukanye yifashishwa n'abanyeshuri mu gihe biga kugira ngo bandikemo ibyo batahana, bashobore kubikora bari mu rugo binabashoboze kwiga mu gihe batari kumwe n'umwarimu.

Ubusitani bwiza bwateguwe bushobora kuberamo imikino itandukanye y'abana bityo bikabafasha kwisanzuranaho bagakura bishimye bigatuma bagira ubuzima bwiza butarimo ibibazo byinshi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi bwo mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza, bigizwe n'amabara y'ubwoko butandukanye, harimo: umutuku n'umweruru ndetse n'icyatsi. Ibi bishobora gufasha abana kwiga neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bishushanya, aho biri mu mabara agiye atandukanye. Harimo umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'ayandi, aho bifasha umunyeshuri gushushanya, akabasha kugira ikintu gisa neza ndetse bimufasha no kunguka ubumenyi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bigizwe n'amabara atandukanye byifashishwa mu burezi bw'abana bo mu mashuri y'inshuke bigatuma bakura neza kubera kubona amabara atandukanye bishimira ibyo biga bakarushaho kubikora mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abana benshi batandukanye, bari gukina imikino myiza ibafasha kwishimana, mu gihe ku ruhande hari umusaza wicaye, na we ari gukurikira imikino y'abana kugira ngo abarinde ibyabateza ibibazo.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye birimo ibikinisho imyambaro bishobora kwifashishwa mu guha uburezi umwana mu mashuri y'inshuke bityo bigatuma akura azi ibintu byinshi bitandukanye yahuye na byo mu ishuri.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bigizwe n'amabara menshi meza harimo umutuku, ubururu, umukara, icyatsi bituma abana bashobora kubikinisha bitewe n'ibara umwana akunda, agakina yishimye agataha yumva yanezerewe.

Icyumba kinini gikorerwamo uburezi bw'abana mu mashuri y'inshuke, harimo abantu batandukanye bigaragara ko ari ubuyobozi, aho baje gukurikirana igikorwa cyo gutanga uburezi bufite ireme ku bana bo mu mashuri y'inshuke.

Amashusho atandukanye agaragaza ibikinisho byinshi bitandukanye, cyane cyane ibituruka mu mazi bishobora gufasha mu gutanga uburezi bw'abana bo mu mashuri y'inshuke kugira ngo bige bagendeye ku buzima busanzwe.

Mu cyumba k'ishuri aho umubyeyi yicaye ari kugaburira umwana amuteruye ndetse n'abandi ku ruhande na bo bari gufata amafunguro, bamwe muri bo bari kugaburirwa bituma abana bakunda kwiga ndetse bakahahora kugira ngo bahore babona ibyiza.

Ni bishushanyo bibiri bigaragaza uburyo abana bashobora kwifashisha mu gukora isuku ku bikoresho bitandukanye. Harimo koza intebe, gusukura ameza ndetse no gusukura ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri kigaragaramo inyubako nyinshi zishobora kwifashishwa mu kwigirwamo n'abanyeshuri, bityo bakunguka ubumenyi bwinshi ndetse bakazagira icyo bigezaho mu buzima bwabo buri imbere.

Ahantu heza hatunganyije, hari ibibuga bitandukanye, bifasha abantu benshi kuruhuka mu mutwe, bityo bikabarinda ibibazo byerekeranye n'ihungabana cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe kuri bo.

Icyumba cy'ishuri cyubatse, giteguye, kirimo ikibaho ndetse hakaba hubakishijwe amatafari ahiye, ikibaho gishobora kwifashishwa mu gutambutsa amasomo bityo abanyeshuri bakabona ubumenyi buhagije.

Amashusho atandukanye agaragaza imbuto zigaragara mu ishusho y'abantu, aho zifite amaso amazuru ndetse n'umunwa, bikaba bishobora kumvisha abana neza icyo bashaka kwigishwa.

Ibikoresho byiza cyane bikoreshwa mu mibare, haba harimo amarate, inshararuziga ndetse n'amakaramu y'ibiti, yifashishwa mu isomo ry'imibare kugira ngo umunyeshuri ashobore gushushanya ace n'imirongo neza.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho aho imbere yayo hari ikibuga kigari kirimo ibikinisho abana bakoresha bakina bidagadura kugira ngo babashe kungurana ubumenyi bagire icyo bigezaho ndetse bumve n'amasomo agiye atandukanye biga.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato, aho bigishwa amabara, bakamenya kuyapanga ndetse harimo n'imibare ishobora kwifashishwa mu kubigisha kubara kugira ngo bakure bazi neza uburezi bufite ireme.

Udukino dutandukanye dushobora kwifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bagire ubushobozi bwo kwihuza n'abandi cyangwa se bongere imibanire yabo n'abandi, bityo bazakure bafite ubumuntu ndetse bashobora n'ibintu bitandukanye mu buzima bwabo.

Icyumba cy'ishuri kirimo imfashanyigisho zitandukanye, zimanitsemo, zisize amabara atandukanye, aho abanyeshuri benshi bicaye, bareba imbere ku kibaho ndetse bakaba bari gukurikira amasomo, yerekeranye n'imibare.

Inyubako yubatse neza igaragaza ibice bitandukanye harimo: igisenge gikozwe n'amabati y'umutuku, igikuta gisize irangi ry'umuhondo n'inzugi zifite ibara ry'ubururu n'amadirishya arimo ibirahuri.

Inyubako z'amashuri zigezweho zifite ibyumba bisa neza bisize amarangi y'umuhondo bikaba bifite inzugi z'ubururu, ibice byo hasi by'ibikuta bikaba bifite amabara y'umukara, imbere yaho hari ubusitani bwiza butunganyijwe.

Igikapu kiza gikozwe mu ishusho y'igipupe ni kimwe mu bituma abana biga mu mashuri y'inshuke cyangwa abanza bagira umuhate wo kwiga kuko aba akunda ibipupe bigatuma yifashisha ibikapu biriho ibipupe.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza aho harimo amarate ndetse n'imikazi, harimo udushushanya, amakayi, akantu kabara ndetse n'ibindi bifasha umunyeshuri kwiga neza akabasha kunguka ubumenyi.

Abana babiri bicaye ahantu hamwe bari gufatanya gusoma igitabo kugira ngo bagire ubumenyi bunguka, bityo bazagire ubumenyi buhagije mu buzima bwabo bwa buri munsi, bashobore kwiteza imbere.

Abana babiri bahagaze mu cyumba kimwe bari gikorwa cyo gusukura, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku mu gihe undi yambaye icyatsi, barimo gusasa uburiri kugira ngo harusheho kugaragara neza.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye harimo ameza ateretseho udukinisho tw'abana tubafasha kwiga amasomo agie atandukanye abungura ubumenyi bwabo ndetse bakabasha no kuvumbura ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako z'ibyumba by'amashuri zubatswe ku buryo bugezweho, zanagejwe neza ku buryo zisize n'amarangi, bigaragara ko ibi byumba byakoreshwa mu gutanga uburezi ku bana batandukanye, haba amashuri abanza cyangwa ayisumbuye.

Inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite umuryango w'ubururu, mu imbere biragaragara ko ari ishuri harimo ikibaho cy'umukara, mu gihe mu muryango hahagazemo umurezi wambaye agapfukamunwa.

Abana batandukanye bari kugirana ibiganiro n'umubyeyi wabo bigaragara ko ari kubagira inama bityo bikazatuma bagira icyo bigezaho binyuze mu bumenyi baba bakuye mu bantu bakuru bigatuma bagira amahirwe mu buzima bwabo.

Amashusho y'ubwoko butandukanye agaragaza ibitekerezo bitandukanye harimo ubumenyi kwiga amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bavumbure ubumenyi bwabo.

Inyubako nziza ifite ibice bitandukanye, byubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hakaba hari ubukarabiro, bwubatse neza, bukaba bushobora gutanga amazi yifashishwa mu kongera isuku no kurwanya indwara zandurira mu mwanda.

Inyubako nziza irimo utubati tubitsemo ibitabo, aho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri batandukanye, bakunguka ubumenyi bubafasha mu myigire yabo, bakagira icyo bigezaho ndetse bakiteza n'imbere.

Inyubako nziza z'ibyumba by'amashuri, hafi yayo hari ikigega gifata amazi ndetse hakaba hari n' ubukarabiro bwifashishwa mu gukaraba kugira ngo himakazwe isuku ndetse hirindwe indwara zitandukanye zishobora gukwirakwizwa n'umwanda.

Ibikoresho byinshi binyuranye birimo amashusho y'amabara atandukanye ndetse n'inyuguti n'imibare bishobora kwifashishwa mu gutanga uburezi kubana bo mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke kugira ngo bakure bazi neza ibyo bize.

Ibikoresho byifashishwa mu guca imirongo mu masomo y'imibare, bigira uruhare mu gutuma umunyeshuri ashobora kwiga neza kuko aba ashobora gushushanya ibintu areba ndetse anabyumva.

Ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu burezi bw'abana bituma bagira ubumenyi buhagije mu byo biga kuko haba harimo imyitozo ibafasha kugira ngo bashobore gusubiza neza ibyo babazwa buri munsi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mikino y'abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke bigizwe n'amabara atandukanye aho umwana aba ashobora kumenya gutandukanya amabara bityo agakura azi neza amasomo yiga.

Abanyeshuri bari hanze bahagaze imbere y'igicumbi cy'ishuri ryabo rya Nyagatare, aho bari kujya mu ishuri kugira ngo babashe kwiga ubumenyi butandukanye, imbere y'ishuri ryabo hari amamoto atwaye abagenzi, aho batwara abantu batandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu burezi, harimo ibitabo bifite amabara atandukanye, umukasi, n'amakaramu y'ibiti, biri mu bigira uruhare mu gutanga uburezi aho abana biga neza bitewe n'uko ibikoresho byabonetse.

Abantu benshi batandukanye bahagaze inyuma y'inyubako y'ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburezi bufite ireme, bigatuma abahavuye bose bahavana ubumenyi, bushobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

lnyubako nziza igezweho ikoreshwa nk'ubwiherero, ku bantu benshi batandukanye ,bityo bigatuma ifasha mu kunoza isuku, haba mu kigo cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi.

Ahantu heza hubatswe ku buryo bugezweho, hari ibyumba by'amashuri bishobora kwifashishwa, hakaba hubatse hasize amarangi y'umweru n'umutuku, bigaragaza ko ari ahantu hashobora kwigirwa n'abana.

Ibyumba by'amashuri byubatse mu buryo bugezweho, aho imbere yabyo hari abantu bari mu bikorwa bitandukanye, hari abana bambaye imyenda ya kinyarwanda, bari mu bikorwa byo kubyina kugira ngo bagaragaze impano, zimwe mu zo bigiye ku ishuri.

Ahantu heza hatunganyijwe bigaragara ko hashobora gukorerwa uburezi bw'abana mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza, bitewe n'uko hari amabara menshi atandukanye, ibi bikorwa kugira ngo abana bashobore kwiga neza.

Igikoresho cyifashishwa cyane mu isomo ry'imibare aho kiba kirimo amarate, amakaramu, y'ibiti, ndetse n'incaruziga byifashishwa igihe umunyeshuri ari kwiga ibinyampande bitandukanye, bikamufasha kumva neza ibyo ari kwiga.

Inyubako nziza zigezweho ziri mu kigo cy'amashuri zisakaye kugira ngo abanyeshuri bajye babona aho banyura baticwa n'izuba cyangwa se ngo bicwe n'imvura, bityo bigatuma amasomo yabo atadindira na gato.

lbikoresho byinshi bitandukanye ,birimo; amakaramu y'ibiti, umukasi, ibikoresho byo gusiba, bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza ibishushanyo bitandukanye, kugira ngo bakure bazi ubwo bumenyi.

Amashusho atandukanye agaragaza abanyeshuri bicaye mu ishuri mu gihe mugenzi wabo umwe ahagaze ku ntebe yazamuye amaboko, ni abanyeshuri bigaragara ko umwe muri bo adafite imico myiza.

Igikoresho cy'ingenzi cyifashishwa mu isomo ry'imibare, aho kirimo amarate, ikaramu y'ibiti ndetse n'incaruziga byifashishwa kugira ngo umunyeshuri ashobore gushushanya neza ibinyampande ndetse abyige abireba neza.

Ahantu heza hatunganyijwe hashobora gukorerwa ibikorwa bitandukanye hari ibigega byifashishwa mu kubika amazi ndetse no kuyatunganya bityo bigatuma abantu benshi bagira amazi ahagije.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu isomo ry'imibare, aho harimo amarate akoreshwa mu guca umurongo, hakabamo n'insharuziga ndetse n'ikaramu y'igiti, byose bifasha umunyeshuri kwiga neza isomo ry'imibare, agashobora gutsinda.

Ibikoresho bitandukanye bigizwe n'amarate yifashishwa mu guca imirongo, hakabamo incaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti ishobora kwifashishwa mu isomo ry'imibare kugira ngo umunyeshuri amenye neza ibyo ari gushushanya yumve isomo neza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari kuganirizwa. Imbere yabo hari abayobozi batandukanye, bikaba bigaragara ko inama bari kugirwa zizabagirira umumaro mu buzima bwabo buzaza, bigatuma biteza imbere.

Ubusitani butunganyijwe, aho abanyeshuri benshi batandukanye, bicaye hasi kugira ngo bakurikire ibiganiro bahabwa, bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Umunyeshuri uhagaze yambaye impuzankano y'umweru hejuru, ndetse akaba yambaye n'umudari mu ijosi, bigaragara ko afite ibyishimo kubera ko afite igikombe mu ntoki, bizwi nk'ishema rye, ndetse n'ishema ku kigo.

Abakozi benshi batandukanye bambaye imyambaro yabugenewe bijyanye n'akazi bakora, bari ahantu hamwe aho bari kuganira ku bitekerezo bitandukanye, bishobora gutuma inyubako zubakwa neza ndetse bigateza imbere n'Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Itsinda ryabanyeshuri benshi bari hamwe bambaye impuzankano zitandukanye, bahuriye ku mabara y'umweru hejuru, hasi bamwe bambaye kake, abandi bambaye umukara. Ibi rero bituma abanyeshuri bihuriza hamwe bakaganira ku bintu bitandukanye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho ikaba yubatse igeretse, bityo bigatuma umubare w'abanyeshuri wakirwa uba mwinshi, ikindi kandi ni uko hari inzira ifasha abafite ubumuga kugera mu bice byayo bitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse gafite n'inzugi z'ibyuma. Imbere yayo iri kugendamo abantu bambaye ama jire, harimo abambaye ay'umuhondo ndetse n'icyatsi ndetse n'undi mugabo wambaye ishati.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda ijyanye n'imirimo bakora, bari mu bikorwa byo kugenzura inyubako zitandukanye zishobora gukorerwamo ibikorwa by'uburezi, aho abana bigishwa imirimo itandukanye bakagira icyo bikorera mu buzima bwabo.

Abanyeshuri benshi batandukanye, bicaye mu cyumba mbera byombi, bicaye mu buryo bwateguwe, bigaragara ko hari icyo bari gukurikira, kizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bagashobora kwiteza imbere, bakagira ubuzima bwiza ndetse bagateza imbere n'igihugu.

Inyubako zikoreshwa nk'ubwiherero, aho zifasha abantu kurwanya umwanda ahantu hagiye hatandukanye, bityo bigatuma ahantu hagira isuku, hariyo ikigega gifata amazi gifite ibara ry'umukara.

Abanyeshuri batatu bambaye impuzankano bahagararanye n'umurezi wabo, bafashe igitabo bigaragara ko bahawe impamyabumenyi, igaragaza ubushobozi bafite, bakuye mu masomo bize.

Abana b'abakobwa b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, bafite ibikoresho, bigaragara ko bikozwe mu bihangano bigezweho, bishobora kwifashishwa mu mideri cyangwa se mu yindi mirimo ibyara inyungu ku bantu batandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amakaruvati ndetse n'amashati n'amapantaro, aho bagararanye n'abarimu babo bafata ifoto kugira ngo bibukiranye ibyo bakoraga ku ishuri, bazabashe no kumenyana.

Abanyeshuri benshi batandukanye bahagaze mu buryo bwateguwe bambaye impuzankano zisa, abari mu ruhande rumwe bambaye umutuku hejuru abari mu rundi ruhande bambaye umweru, ibi rero bituma abanyeshuri bamenya kwitwara neza mu bintu byose bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye bari mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubudozi, aho abantu bashobora guhurira bakiga ibikorwa byabateza imbere, bityo imiryango yabo igatera imbere n'Igihugu kigatera imbere muri rusange.

Ahantu heza hari ubusitani butunganyijwe, hahuriyemo abantu benshi, aho bambaye bigaragara ko bahuriye mu gikorwa kimwe igikorwa rero kikaba kizabafasha mu kwiteza imbere binyuze mu bumenyi bakuyemo.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cyo gukorerwamo ubushakashatsi, aho bashobora kumenya ibintu bitandukanye, byakwifashishwa mu gutegura umusaruro nyawo cyangwa se mu kumenya ibigezweho, bitewe n'amakuru bashobora kubona.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini, aho bahagarariwe n'abari kubareberera, bareba uko bakora ikizamini cyabo. Bibafasha gukora neza badakopera kugira ngo barebe aho bahagaze mu mitwe yabo ndetse n'ubumenyi bafite.

Abanyeshuri benshi batandukanye bigaragara ko bambaye impuzankano zitandukanye, bari kwerekeza ahantu hamwe aho bashobora kuba bagiye guhabwa ibiganiro kugira ngo bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi bashobore kwiteza imbere.

Ubusitani bwiza bwateguwe kugira ngo hakorerwemo ibikorwa bitandukanye, aho hahurijwemo abantu bambaye bitandukanye kugira ngo baganirizwe cyangwa se bahabwe inama zitandukanye zabafasha mu buzima bwabo.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imyambaro yabugenewe, irimo amajire ndetse n'abandi batambaye, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo guganira, imirimo itandukanye, yakorewe muri iki kigo. Bityo bagateza imbere uburezi bufite ireme.

Icyumba cyiza giteguwe gishobora kuberamo ibikorwa bitandukanye aho abantu benshi bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa na bo bakaba hari ibyo bari kwandika ndetse banareba imbere yabo.

Inyubako nziza igezweho yubakishije amatafari ahiye ndetse iruhande rwayo hakaba hari ikigega gifata amazi, iyi nyubako ikoreshwa nk'ubwiherero kugira ngo ifashe mu kurwanya umwanda mu bice bitandukanye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ibyumba by'amashuri byubatse ahantu hamwe, bikaba bifasha ikigo kwakira umubare munini w'abanyeshuri, bityo bigatuma hatabaho ubucucike bw'abanyeshuri mu cyumba k'ishuri.

Icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho aho kirimo ameza n'intebe bigiye bitandukanye biriho mudasobwa zifashishwa mu burezi ndetse bikaba bishobora gutuma abigiye aha ngaha bagira uburezi bufite ireme n'ubumenyi buhagije.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bicaye ahantu hamwe mu gihe hari n'abandi inyuma yabo bahagaze, na bo bahurijwe ahantu hamwe kugira ngo bahabwe ibiganiro cyangwa se amahugurwa ashobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi aho bamwe bambaye imipira y'imihondo ndetse n'amajipo y'ubururu abandi bakaba bambaye amashati y'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro ya kake, bari mu cyumba kinini ndetse harimo n'abandi bambaye imipira ijya gusa umutuku, aba kandi bari kwiga ubumenyi bugiye butandukanye.

Abari batandukanye bari ahantu hamwe bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga bari kurebamo bose bigaragara ko bishimye, bari ahantu hashobora kubashyigikira ibikorwa bitandukanye harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ahantu heza hatunganyijwe hashobora kubera ibikorwa bitandukanye hari ubusitani, hari imihanda, bityo rero byose bigaragaza ibikorwa by'iterambere, aho abantu benshi bashobora guhura bakiga ku iterambere ry'igihugu.

Igikoresho gikozwe mu buryo bw'ubugeni, cyitwa ikibumbano, bimwe mu bikorwa bishobora gufasha umuntu kwiteza imbere bityo akaba ashobora kunguka ndetse akagira ubukungu buteye imbere na we agateza imbere igihugu.

Inyubako nziza iteguwe ishobora gukorerwamo ibikorwa by'uburezi aho abantu benshi bahurira bakaganira ku bikorwa bitandukanye bishobora kwifashishwa mu iterambere ndetse bakunguka n'ubumenyi bwa buri munsi bubafasha.

Inyubako igaragaramo ibikorwa bitandukanye irimo intebe yo kwicaraho irambitseho ikayi ishobora kwifashishwa mu burezi kugira ngo umuntu uri kwiga ashobore kwandika bimwe mu byo ari kwiga bizamufashe kubyibuka.

Icyumba k'ishuri cyubatse neza gifite ibikoresho bihagije bishobora gukoreshwa mu kwigisha, gifite ibikuta by'ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo ibibaho byifashishwa mu kwigisha kugira ngo uburezi bufite ireme bubashe kugera kuri bose.

Umuryango w'icyumba mberabyombi gishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye ukaba ukozwe mu buryo bugezweho ufitemo ibirahure ndetse ukaba ufite nimero: rimwe, inyuguti ya R, rimwe, gatatu.

Ahantu heza hubatse ku buryo bugezweho, aho hari intebe zitandukanye zo kwicaraho, hakaba hari n'ibindi bikoresho, byakwifashishwa mu bikorwa bitandukanye, bigatuma abantu bahura bakaganira.

Ibikoresho bitandukanye, bikozwe mu ibumba, bikorwa bikoreshejwe ubugeni, ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'abantu benshi bityo ababikora bashobora kugira inyungu inyuze mu kubicuruza, bakagira amafaranga ahagije.

Icyumba giteguye neza kirimo intebe zikozwe mu buryo bwa gihanga zizafasha abanyeshuri kwiga neza bagashobora no kwandikiraho bityo amasomo agende neza kandi bicaye neza mu mwanya muto.

Abantu batandukanye bicaye mu buryo bumwe, bose bari kwandika ku mpapuro kugira ngo bagire ubumenyi batahana bitewe n'amasomo baba bahawe babona ko ari ingenzi mu buzima bwabo. Bityo rero bakiteza imbere n'Igihugu kigatera imbere.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe hateguwe mu busitani bwiza, bambaye amakanzu n'ingofero bigaragaza ko basoje ikiciro cya kaminuza, bamwe muri bo bazitereye hejuru kubera ibyishimo byinshi.

Umuntu uhagaze imbere y'ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutubora inyandiko cyangwa se gutubura impapuro bishobora gufasha abantu benshi bitewe na serivisi baba bakeneye.

By'ubugeni bikozwe mu ibumba birambitse ahantu hasi ibikuta bikaba bisize amarangi y'umuhondo bityo bikaba byafasha umuntu ubikora kwiteza imbere biciye mu bucuruzi bwabyo.

Amabara asize umutuku ndetse n'igishushanyo k'ishuri bigaragaza ko ibi ni ibikorwa by'ubugeni bishobora kwifashishwa mu kwigisha abana haba n'abantu bakuru kugira ngo bigishwe ibyerekeranye n'ibikorwa bitandukanye.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye. Hari abambaye iy'umweru, umutuku, ubururu, umukara ndetse n'ayandi. Imbere yabo hari igitako cyiza, kiri mu mabara aba mu idaraporo y'igihugu cy'u Rwanda, aho bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, bibafasha mu bumenyi.

Ubugeni cyangwa se ibikorwa bitandukanye birimo ibihangano ni bimwe mu bishobora guteza umuntu wabikoze imbere, aho hifashishijwe ibumba umuntu ashobora gukora ibikoresho bitandukanye, bikajyanwa ku isoko bikinjiza amafaranga.

Mu busitani bwiza, burimo abanyeshuri benshi batandukanye, bafite ibyishimo, bambaye amakanzu ndetse batereye ingofero zabo hejuru, bishimira ko basoje icyiciro cya kaminuza, bikaba bigaragara ko bungutse ubumenyi buhagije.

Igikoresho kiza gikoreshwa nk'intebe ndetse umunyeshuri akaba ashobora kukicaraho agakora imirimo ye ndetse n'amasomo akabikurikirana nta kibazo na gito, bimufasha rero kwiga neza bigatuma agira ubumenyi buhagije.

Imbuga nini yisanzuye, yateguwe neza kugira ngo ikoreshwe imimaro itandukanye, ikaba iri ahantu hari uruzitiro ndetse mu busitani butunganyije neza, ishobora gukoreshwa mu kubika ibinyabiziga.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho aho isize amarangi y'umweru ikaba ifiteho ibishushanyo bivuga ibikorerwamo ndetse ikaba isakaye neza, imbere yayo hari amabuye anyurwaho.

Icyumba cy'ishuri, kirimo ibikoresho byifashishwa mu burezi butandukanye, harimo intebe y'amaguru maremare, ifite ibara ry'umutuku, hakabamo intebe y'ubururu, ishobora kwifashishwa igihe umuntu yicaye ashaka kwandika ndetse hakaba harimo n'ikibazo cyo kwandikaho mu gihe umuntu ari kwigisha.

Inyubako nziza cyane iteguwe ishobora gukorerwamo ibikorwa by'uburezi, aho abana bashobora kwicara begeranye, bakora ibikorwa bitandukanye bibafasha muzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bazashobore kwiteza imbere.

Icyumba k'ishuri kirimo ibikorwa remezo bitandukanye harimo insakazamashusho yifashishwa mu gutanga uburezi kugira ngo abantu bategereye aho hafi bashobore kureba ndetse harimo n'abanyeshuri bari mu gikorwa cy'amasomo.

Abantu benshi batandukanye bagizwe ahanini n'urubyiruko ruri hamwe mu bikorwa byo kungurana ibitekerezo kugira ngo biteze imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo kugira ngo Igihugu na cyo cyunguke kubera ubumenyi babonye.

Igikoresho kiza cyane gishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye, cyahanzwe biciye mu bikorwa by'ubugeni aho birambitse ku mashashi, uwabikoze akaba ashobora kubona inyungu ifatika, akiteza imbere, agateza imbere n'urugo rwe.

Ahantu heza hateguwe hari ibikoresho bitandukanye birimo intebe zo kwicaraho, zishobora kwifashishwa mu gihe abantu batandukanye bari kuganira, hagaragara ko hakoze neza, aho hari uruzitiro, rukoreshejwe amarangi y'icyatsi.

Binyuze mu bugeni, ibikoresho byinshi bishobora gukorwa, harimo ibikorwa mu ibumba cyangwa se mu bitaka bindi, bigatuma ubikora ashobora kwiteza imbere, binyuze mu bucuruzi bw'ibikoresho aba yakoze, bityo agatera imbere n'igihugu kigatera imbere.

Ibikoresho bitandukanye, bikorwa binyuze mu bugeni, bishobora kwifashishwa nk'imitako ahantu henshi bityo bigatuma umuntu ubikora, yagira umusaruro munini kuko akuramo inyungu nyinshi bityo agashobora kwiteza imbere.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cyiza, giteguwe gifite ibikuta by'umweru kiri gutangirwamo amasomo yabafasha mu kwiteza imbere cyangwa se mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo Igihugu nacyo kikunguka abantu bafite ubumenyi.

Abantu bambaye imyambaro isa, bahagaze hanze yin'inyubako bafite icyapa gitanga ubutumwa bwo gutanga amaraso kugira ngo dutabare abarwayi, ni igikorwa kiza gituma abarwayi bakeneye amaraso bayabona ku gihe.

Igikuta gisize irangi ry'umuhondo kikaba gifatishijweho ibipapuro by'ubwoko butandukanye biriho amabwiriza atandukanye ashobora kwifashishwa n'abaturage benshi kugira ngo bagire ibyo bageraho bitandukanye.

Abantu benshi batandukanye bari kugendana ahantu nk'ikigo gikorerwamo imirimo y'uburezi bivuze ko bashobora kuhakura ubumenyi butandukanye bwabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibikoresho byiza bitandukanye by'ubugeni bishobora gukoreshwa mu mirimo itandukanye mu kugaragaza amateka cyangwa se ibindi bikorwa by'ubwoko bwose, bifasha rero uwabikoze kwiteza imbere binyuze mu kubicuruza.

Icyumba giteguye neza kirimo intebe zifite ibara ry'ubururu zishobora gukoreshwa mu gihe umuntu yicaye akaba ashobora mu kwandika, ibi bituma rero uburezi butangwa neza bityo umunyeshuri akaba ashobora kwiga atekanye.

Ni icyumba kiza cyubatse kuburyo bugezweho aho abantu benshi batandukanye bicaye bari gukurikira umuntu uhagaze imbere yabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umutuku, bikaba bishobora kubafasha kugira byinshi bunguka.